Umugore uryamye impande ye hari uruhinja rwambaye imyenda z'umweru yambaye ishati ry'ibara ry'ubururu n'ingofero y'icatsi yitwikuruye hejuru hepfo aratwikiriye.

Umuganga wambaraga amataburiya g'umweru ari gutera umugore urushinge, wambaye ishati y'umutuku, wambaye n'agapfukamunwa wapfutse amazuru hafi n'amaso afite imitsatsi zizingazinze.

Iwuwa rinini riri hagati yayandi mawuwa , atandukanye afite utubabi tudaze, andi ameze nk'umucaca hariho n' ameze nka sa sita, hirya yaho hariho ibibabi byagiye birabora bitandukanye.

Igiti c'imigeshi gifite amashami gagiye gusa na shokora, n'amababi gasa n'icatsi hirya yaho, hari ibindi biti byinshi kuko ni ishyamba.

Ibyatsi by'icatsi by'indumburabutaka n'ifurwe hasi haguye amababi gashaje hariho n'umucaca ugiye uri iruhande rw'ibyo biti bitandukanye biri muri ako gatsiko k'ishamba.

Jaride irimo amawuwa gafite indabo z'amabara menshi harimo ag'umweru agicatsi agafite utubuto kuhande n'agameze nk'umucaca gari kurandamo.

Ibyatsi bimeze nk'inyunyu byinshi, biteye ahantu hamwe bifite utubabi tw'icatsi twinshi dushamikiranye, turikuyanga uturabo tw'umweru, hasi hariho ibyagiye birasaza.

Amawuwa bita sa sita ateye, arimo amabara ya move n'ayicyatsi, agiye asobekeranyije, ateye kuri jaride imwe, hariho n'irindi ryitwa igitenetene.

Imbuga iteyeho umucaca guvanze n'urudega rugiraga amababi g'icatsi, hirya kuri iyo mbuga hariho amabuye ntabwo ikondoye neza.

Ibyatsi bitandukanye harimo:Ikibonobono gifite ibibabi binini, inteja, intondore n'ibirayirayi.